Abantu barimo abagore n'abagabo b'abazungu n'abirabura, bishimye cyane bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'ubururu ndetse bambaye n'ingofero z'umweru n'ubururu bamwe muri bo, bafite icyapa cyerekana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Inzu nziza irimo amatara meza y'umweru ndetse igaragara nk'aho ari nini, harimo abantu benshi yaba abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'ubururu, bakaba basa nk'aho bari mu nama ndetse barimo kwakira ikiganiro runaka, kibabwira ku bintu runaka.

Umugore uri mu za bukuru, wazanye ijerikani kuvoma, uwo mugore akaba inyuma yiwe hari icyo twakwita nk'umusozi ndetse akaba ari ahantu hatuje cyane kuko ntabantu benshi bahari ndetse bikaba bisa nk'aho yaje kwifatira amazi.

Abagore batatu bahagaze bisa nk'aho hirya yabo hari undi muntu, umwe muri bo akaba yambaye ga ndetse yambaye n'agapfukamunwa, ndetse bisa nk'aho ari gutanga serivisi runaka, inyuma yaba bagore hakaba hariyo uruzi kuko bisa nk'aho wagira ngo bo bahagaze ku nkombe.

Abantu batatu bicaye baganira ndetse babiri muri bo akaba ari umugore ndetse n'umugabo bisa nkaho umugore atwite ndetse ubicimande akaba asa nkaho ari umuganga, bakaba basa nkaba bari kugira ikiganiro kijyanye nko kubagira inama.

Ahantu hari abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo ndetse harimo n'abana batoya. Abantu bahari abenshi bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse bikaba bisa nk'aho ari umugore umwe uri guhereza ibintu bimeze nk'imiti uwo mwana muto ukikiwe na mama wiwe.

Ku ivomero aho benshi muri twe tujya kuvoma amazi, hariyo umwana ufite indobo y'amazi akaba yishimiye kuba ari kuvoma aho hantu, ndetse hirya ye hari n'umubyeyi uri kuhozereza umwana ndetse uwo mwana akaba asa n'uwishimye, hirya yabo hakaba hari n'undi mubyeyi uri kumwe n'undi mwana muto w'umukobwa.

Ahantu hari abantu babiri, aho umwe ari umwana mutoya ndetse undi akaba ari umugore. Bisa nkaho yambaye agapfukamunwa ndetse akaba arimo gufasha uwo mwana kuba yakaraba intoki akoresheje isabune ndetse n'amazi meza. Bikaba bisa nkaho arimo kumutoza umuco mwiza wo gukaraba intoki.

Kwa muganga aho umugabo usa nk'aho ari mu myaka iringaniye arimo gusuzuma umwana, uwo mwana akaba ari mu myaka mitoya cyane ndetse akaba akikiwe n'umu mama bisa nk'aho ari mama we ndetse mwana bikaba bisa nk'aho ari gusuzumwa indwara runaka.

Inzu nini iri mu kibanza cyitaruye ahayonyine, kuko bigaragara ko nta kindi kintu kiri hafi kitaruye, hafi yaho hari abantu bari kugendagenda hafi, ndetse hakaba hari n'ibyatsi, aho hantu iyo nzu yubatse.

Abantu batandukanye bari mu myaka yigiye hejuru, barimo abagore n'abagabo, bakaba basa ndetse nk'aho wagira ngo ni abaganga bitewe n'uko bambaye ndetse muri bo hakaba harimo n'umuzungu, bisa nk'aho ndetse abo bantu bishimiye ibyo barimo.

Abana bane bari ku ivomero umwe muri bo akaba ameze nk'aho ari we uri kubavomera, bari ahantu hitaruye hatari abantu benshi cyane ariko aho hantu hakaba hasa nk'aho ari mu cyaro kuko inyuma yaho hari ibyatsi byinshi bisa nk'aho hadatuwe n'abantu benshi.

Ahantu runaka, hari abagabo batandukanye, bicaye ahantu ku meza amwe basa nk'aho bari kuganira, kuri iyo meza hakaba hariho igitambaro cy'icyatsi, ndetse hariho n'ibirahure, bisa nk'aho abo bagabo bari bamaze kwiyakira.

Abana barakaraba intoki bishimye, hasi yabo hari ibasi y'ubururu irimo amazi, ndetse basukirwa n'umugabo wambaye umupira w'ubururu, ufite igikombe mu ntoki cy'umweru abasukira amazi kugira ngo bakarabe, abana bakaba babyishimiye.

Umugore ufite ijerekani ndetse n'ibase bisa nk'aho wagira ngo yaje kwivomera, akaba arimo guseka yishimye cyane bisa nk'aho yishimiye ibyo akora ndetse nyuma y'iwe hakaba hari imyenda bisa nk'aho wagira ngo hari ibyo amaze gutunganya nko kumesa.

Umusore wambaye marinete uri mu myaka iringaniye, uciye bugufi umeze nk'usutamye akaba afite umwana mu ntoki, uwo mwana akaba ari ku kintu gisa nk'aho gipima ibiro ndetse uwo mugabo akaba ari guseka bisa nk'aho yishimye.

Mu nzura runaka, irimo intebe, ndetse n'indi mitako, ndetse n'imeza, hakaba harimo abagore basa nk'aho bari mu myaka itandukanye, ariko atari batoya, bakaba barimo kubyina, basa nk'aho bishimiye ikintu runaka kijya imbere aho ngaho.

Abantu bari ahantu muri koridori basa nk'aho ari abaganga ndetse muri bo harimo n'undi muzungu wiyambariye imyenda y'umutuku, naho abo bantu bo bambaye amatabuririya y'umweru bisa nk'aho bari kwifotoza ndetse bishimiye cyane ibyo bakora.

Imbaga y'abantu benshi iri ahantu hasa nka hatangirwa serivisi z'ubuzima, bakaba basa nk'abategereje kuba bahabwa izo serivisi muri abo bantu bakaba higanjemo abakuru n'abatoya, yaba bagore n'abagabo ndetse n'abagore basa nka bahetse abana batoya.

Ku ivomero ahantu runaka waba ari umugore akaba ari usa nkaho urimo kuvomera abantu ndetse akaba ari n'umwana ufashe ijerekani bisa nkaho'aho ari kuvoma biriya bakaba ari batandukanye ndetse bakaba bishimiye ibyo uwo mugore ari gukora.

Abantu ba bagabo bari mu myaka y'izabukuru, barimo abazungu n'abirabura , bari abantu barimo kuganira basuhuzanya, bamwe muri bo basa nk'aho bishimiranye , nyuma y'uko inyuma y'abo hari icyapa cyerekana ko aho hantu bari hari inama runaka cyangwa se ibintu runaka byahabereye cyangwa se bigiye kuhaba.

Mu nzu runaka aho harimo abantu batandukanye bari mu myaka isa n'iyegeye hejuru kuko nta bana barimo ndetse bakaba basa nkaho bari kugira ikiganiro runaka bitewe n'uko imbere yabo hari ikigaragariraho amashusho ndetse bisa nn'aho nabo wagira ngo umwe ari kuvuga abandi bumva.

Abana batatu bari mu myaka mitoya bari guseka cyane bishimye. Aba bana rero bakaba barimo gukaraba intoki ndetse bisa nk'aho bishimiye cyane ibyo barimo gukora kuko bashobora kuba bazi neza ibyiza byo gukaraba intoki.

Kwa muganga hari intebe ndetse hari n'ibindi bikoresho byinshi nk'ameza, amamashini akoreshwa n'abantu batandukanye ndetse hakaba ari n'umugabo wambaye imyenda nk'iy'abaganga, ahagaze ari kuvugana n'undi mugore we wicaye.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo, bari mu myaka yegeye hejuru ndetse bikaba bisa nk'aho ku ruhande rwabo hari icyapa, inyuma yabo bantu hakaba hari inzu bisa nk'aho ihurirwamo n'abantu runaka bagiye kumva ikiganiro cyangwa se ubutumwa runaka.

Ahantu hari gutangirwa serivisi z'ubuzima runaka, hakaba hari umugore ndetse n'abandi bagabo batandukanye, bisa nk'aho bambaye udupfukamunwa , ndetse uwo mugore ndetse n'undi mugabo begeranye bakaba basa nkaho bari guhabwa serivisi n'abandi bagabo babiri.

Ku ivomero ahantu runaka, aho abantu benshi bari bahateraniye ndetse iryo vomero rikaba risa nk'aho amazi yaryo ameneka bisa nk'aho ritabasha gufugika ariko hakaba hari undi muntu wambaye ingofero bisa nk'aho yaje kuba yarisana.

Ahantu hariho abantu batandukanye hasa nk'ahari gutangirwa serivisi z'ubuvuzi, aho hari abaganga ndetse n'abandi bantu baje barimo kuvurwa n'abo baganga ndetse bikaba bigaragara ko bambaye udupfukamunwa ndetse abo baganga bari kuvura abo bantu bakoresheje inshige.

Ahantu runaka hateraniye abantu, bakaba bicaye ku ntebe zikoze uruziga ndetse hirya yabo hakaba hari amacupa y'amazi ya Nile ndetse hari n'udutabo dufite ibifuniko by'ubururu.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo basa nk'abafite imyaka yegereye hejuru barimo ndetse abirabura ndetse n'abazungu bafite ibyapa mu ntoki, nyuma yabo hari inzu nini cyane irimo amabara atandukanye.

Inzu nini irimo amarido n'amatara atandukanye ndetse n'itapi nini hasi, harimo abantu batandukanye, yaba abagore n'abagabo, bari mu myaka myinshi itandukanye. Ndetse bamwe muri bo bakaba bahagaze abandi bicaye.

Abagore batatu bafite inkoni mu ntoki, uw'imbere muri bo afite umwana, uwo mwana akaba arimo konka. Bari ahantu hitaruye hasa nkaho nta wundi muntu uhari, hakaba harangwa n'ibiti gusa ndetse bikaba bisa nkaho aho hantu atari mu Mujyi ahubwo ari mu Cyaro.

Abantu batandukanye bari mu myaka itandukanye aba bagore ndetse n'abagabo bakaba barabahagaze ndetse n'abicaye inyuma yabo hari icyapa ndetse bisa nk'aho aho abo bantu barimo gufata ifoto nyuma y'uko hari igikorwa runaka kimaze kuba cyangwa se kigiye kuba.

Inzu irimo abantu batandukanye abagore n'abagabo ndetse bari mu myaka itandukanye bahagaze, barimo gusa nk'abifotoza ndetse bamwe bishimye cyane basa nk'abishimiye igikorwa kimaze kubera aho bantu cyangwa se kigiye kuhabera.

Abagore batatu babiri muri bo bafite abana bato b'impinja ndetse umwe muri bo asa nkaho ari kubabwira ikiganiro runaka, bari mu nzu nziza isigishijwe amarangi y'umweru ndetse inyuma ya umugore umwe hakaba hariyo firigo.

Abana bari mu myaka mitoya ndetse basa nkaho wagirango ngo bamwe muri bo bambaye ibirenge n'abandi bambaye inkweto bamwe muri bo bafite utubido mu ntoki aho wagirango ngo bavuye kuvoma ndetse harimo abandi muri bo bari guseka bishimye baka ndetse abo bana basa nk'aba mu cyaro.

Umugore wicaye hasi asa nk'uwambaye imyenda ishaje afite ibintu bimeze nk'ibiryo mu ntoki ndetse hasi iruhande rw'iwe hakaba hari icupa ndetse n'inkoni iruhande rwe inyuma yiwe hakaba hari abagabo batandukanye hari n'abantu bari kugenda ndetse hari n'abicaye bisa nk'aho ahantu yicaye ari mu cyaro.

Umugabo wiyambariye igitenge akaba yicaye hasi bisa nkaho ari nzu ishaje, ndetse uwo umugabo bikaba bisa nkaho wagira ngo ntabwo yifashije, akaba yicaye nk'umuntu uri gutekereza ku bintu byinshi ndetse bisa nkaho yibaza ku cyo yakora kugira ngo agire ibyo akemura.

Inzu nini cyane ifite amadirishya y'ibirahuri, imbere yayo hari ibyatsi ndetse muri ibyo byatsi hakaba hashinzemo ibyapa byerekana serivisi zitangirwa muri iyo nzu, kuko bisa nkaho iyo nzu ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi.

Umugore mwiza cyane uri mu myaka mitoya akaba arimo guseka cyane yishimye ndetse amenyo ye akaba asa neza cyane bisa nk'aho uwo mugore adahwema kukorera isuku kuko bwije n'ukoroki bitewe n'uko asa.

Umusore uri ahantu hasigishijwe amarangi y'umweru, na we yiyambariye umupira w'umweru ndetse akaba arimo guseka ndetse afite akantu k'akagozi bisa nk'aho wagira ngo arimo kwiborosa cyangwa se koza amenyo yiwe.

Mu nzu isigishijwe amarangi y'umweru, harimo intebe y'ubururu ntoya ndetse n'indi nini, bisa nkaho yicarwaho n'umuntu ugiye gukorerwa serivisi z'ubuvuzi runaka, ndetse imbere yayo cyangwa se ku ruhande rwayo hakaba hariyo igisa nka televiziyo.

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi miremire, ufite uburoso mu ntoki ari kwiborosa, ari ahantu heza ndetse arimo guseka asa nk'uwishimiye ibyo ari gukora, akaba yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'aho ari hasizwe amarangi y'umweru.

Mu ishuri harimo ikibaho ndetse n'intebe hari abana bicaye ndetse bishimye cyane, bazamuye amaboko ndetse barimo kwerekana korogate cyangwa se ibyo tuzi nk'imiti y'amenyo bikoreshwa mu gusukura amenyo.

Umuganga wicaye afite icyo kwandikisha mu ntoki ndetse yambaye agapfukamunwa n' amarinete imbere yiwe hasi n'ibikoresho bikoreshwa mu buganga bisa nkaho wagirango hari ibyo gukoraho ubushakashatsi.

Kwa muganga hari abantu babiri umwe akaba ari umuganga wiyambariye ga ndetse n'agapfukamunwa naho undi akaba ari umugore uryamye ndetse bikaba bisa nkaho wagira ngo uwo muganga arimo kuba yamuha ubuvuzi bujyanye no kuba yamuvura indwara zijyanye n'izo mu kanwa.

Umuhungu ufite imyaka iringaniye, uri guseka asa nkaho yishimye cyane ndetse akaba afite amenyo asa neza cyane bisa nkaho adahwema kuyakorera isuku uko bwije n'uko bukeye, bisa naho ari umuntu uzi neza kwita ku menyo yiwe.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga bisa nkaho gifitwe n'umuganga, icyo gikoresho kikaba gisa nkaho kiri kwerekana ishusho y'amenyo, bisa nkaho wagira ngo uwo muganga ari kugikoresha asuzuma cyangwa se arimo kwiga ku bijyanye n'amenyo.

Abantu batatu barimo umusore uryamye bisa nk'aho ari gusuzumwa ndetse hirya ye hakaba hari n'umuganga urimo kumusuzuma, afite umukasi ndetse yambaye n'agapfukamunwa afite n'utundi dukoresho, bikaba bisa ndetse nk'aho wagira ngo uwo muhungu barimo kumusuzuma ibintu bijyanye no mu kanwa.

Umusore usa nk'aho ari mu myaka iringaniye, uri guseka yishimye ndetse afite akantu k'akadodo bisa nk'aho ari kugakoresha atunganya amenyo yiwe cyangwa se ayahanagura ndetse bikaba bisa nk'aho yishimiye ibyo akora.

Umugore w'ishimwe usankaho ari mu myaka yo mu za bukuru afite isahani mu ntoki yiwe iriho ibyokurya bitandukanye afite ifoke mu ntoki inyuma akaba hari akabati gasigishijwe irangi ry'umweru.

Umugore ufite imyaka yigiye hejuru, ni ukuvuga uri mu zabukuru ndetse n'undi mukobwa uri mu myaka iringaniye, bikaba bisa naho uwo mukobwa ari umuganga ndetse ari gufasha uwo mubyeyi mukuru kuba yakora imyitozo ngororamubiri, akoresheje akuma afata mu ntoki kugira ngo kamufashe kuba yarambura intoki ze cyangwa zikomere.

Ahantu hari abantu babiri basa nkaho wagira ngo umwe ni umuganga ndetse undi akaba ari umugabo wifite ikirahuri mu ntoki ateza intoki kugira uwo mugore ameze nk'umuganga agire imiti amuhereza, nkaho wagira ngo ni umuganga urimo kumufasha kuba yagira serivisi z'ubuzima amuha.

Mu nzu nini aho bisa nk'aho ari inzu ituwemo n'umumama ndetse uri mu myaka mikuru, uwo mugore akaba afite ikirahuri mu ntoki ndetse akaba afite ibinini mu ntoki akaba arikureba bisa nk'aho yibaza ku burwayi butuma anywa ibyo binini.

Ahantu hari abantu babiri, umwe ari mu myaka y'izabukuru n'aho undi ari mu myaka iringaniye, bisa nk'aho wagira ngo uwo nguwo mutoya arimo gufasha uwo mugore kuba yakora imyitozo ngororamubiri, amufasha kurambura amaboko ndetse bose bakaba baseka bishimiye ibyo bakora.

Ahantu hari abantu babiri bisa nk'aho umwe ari mu myaka y'izabukuru ndetse undi akaba ari umuntu mwiza cyane uri kwisekera ndetse afite n'akantu mu ijosi kerekana ko ashobora kuba ari umuganga yewe byerekana ko ashobora kuba ari gufasha uwo muntu wegeye mu zabukuru mu kuba yamuha serivisi runaka.

Abamama batatu basa nk'abari mu myaka yo mu zabukuru basa nk'aho bafite telefone mu ntoki, umwe muri bo ndetse akaba ari gufata ifoto, abo bagore batatu barishimye basa nk'aho bishimiye ibyo barimo gukora.

Umugore n'umugabo bari ahantu muri salo ndetse bisa nkaho umugabo ari umuganga, kuko afite icyuma mu ijosi ryiwe gikoreshwa kenshi mu gupima abantu barwaye cyangwa se bari gupima ibindi bintu byerekeranye n'ubuzima ndetse uwo mugore akaba aseka yishimye ndetse n'uwo mugabo.

Kwa muganga aho hari umugabo usa nk'uri mu za bukuru yicaye mu kagare hirya iwe hari umugore uwo mugore akaba yambaye imyenda y'umutuku bisa nkaho yaba ari umuganga akaba ariwe wafataga ibikoresho icyatsi mu ntoki bisa naho bari kugakoresha bavura indwara runaka.

Mu muhanda ahantu runaka aho abagore n'abagabo bari mu myaka itandukanye bari mu rugendo, aho bari kugenda bashishikariza urubyiruko rw'u Rwanda kwirinda virusi itera sida, imbere y'abo bakoresheje icyapa kibigaragaza.

Ahantu hasa nk'ahari gutangirwa serivisi z'ubuzima, ndetse abantu bose bahari bakaba bambaye ibyo twita udupfukamunwa, ndetse hakaba hasa nkaho hari umugabo wicaye imbere ari guhabwa serivisi, ndetse inyuma yiwe hakaba hari n'abandi benshi bari guhabwa serivisi.

Abantu batandukanye bambaye udupfukamunwa bari ahantu hasa nk'aho wagira ngo hari gutangirwa serivisi z'ubuzima, umwe akaba yazamuye ukuboko kw'ishati yambaye bisa nk'aho wagira ngo yiteguye kuba yaterwa urushinge n'undi mugenzi wiwe.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo bari mu myaka itandukanye bakaba bahagaze ahantu hamwe bishimye barimo guseka inyuma haba hari icyapa cyerekana ko aho hantu hahabereye ibintu runaka bijyanye na serivisi z'ubuzima bikaba bigiye gutangira cyangwa se birangiye.

Abantu batandukanye bambaye imyenda isa nkaho ari iy'abaganga ndetse bahishe umubiri wose bambaye n'udupfukamunwa, inyuma y'abo hakaba hariyo undi mugabo na we wambaye agapfukamunwa ndetse yambaye n'umwenda wa move.

Ahantu hanini hari amazu ndetse hari na jaride ndetse bisa nk’aho hari abantu bicaye mu majaride ndetse no hirya yaho, wagira ngo bategereje kuba bahabwa serivisi zitangirwa aho hantu ndetse bikaba bisa nk'aho wagira ngo ni kwa muganga.

Inzu nini y'umweru isigishijwe amarangi y'umweru ndetse n'ubururu irimo ibitanda bitandukanye biriho amashuka y'umweru ndetse n'ubururu bikaba bisa nkaho aho hantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi dukurikije uko hagaragara.

Ikibanza kinini cyane kirimo ibyatsi ndetse n'inzu nini cyane. Iyo nzu hakaba harimo abantu benshi bari kugenda bayigana ndetse abandi basa nk'aho bari kuyivamo nk'aho itangirwamo serivisi runaka.

Inzu nziza cyane isigishijwe amarange y'umweru, ifite imiryango y'ibirahure ndetse ifite na parafo nziza cyane irimo amabara ya oranje ndetse n'umuhondo, hakaba harimo intebe z'ubururu zijya gusa umukara ndetse n'izindi zifite imyenge itandukanye bikaba bisa nk'aho aho hantu hatuje kuko nta bantu benshi bahari.

inzu irimo kuberamo ikiganiro runaka bitewe n'uko abantu bicaye basangan ngo barimo kuganira akaba ari umugabo ufite kamera asa nkho arimo ku recording ibiri kubera aho hantu ndetse abantu bicaye ahabe bakaba bafite amacuparimo amazi.

Inzu nini y'umweru ifite imiryango y'ibirahuri isigishijwe amarangi y'umweru ituje cyane kuko nta muntu n'umwe uri kugendagenda aho hantu gusa bikaba bisa nk'aho hatangirwa serivisi runaka zisa nkaho ari iz'ubuvuzi.

Inzu nini isigishijwe amarangi y'umweru ahanini, ariko hamwe muri ho hakaba hasigishijwe amarangi y'icyatsi. Iyo nzu ikaba nta muntu n'umwe uyirimo ariko bisa nkaho itangirwamo serivisi runaka.

Inzu irimo intebe n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye ndetse hakaba harimo n'amateleviziyo bisa nk'aho wagira ngo yagenewe kurebwaho n'abantu baba baje bagana muri iyo nzu guhabwa serivisi zihakorerwa.

Ibikoresho bitandukanye, biri mu mabara y'umweru ndetse n'andi atandukanye, bikaba bisa nk'ibirimo ibintu bisa nk'amazi, ariko tutamenya neza ibyo ari byo, bikaba bisa nk'aho bikoreshwa mu buvuzi runaka cyangwa se mu bushakashatsi runaka.

Inzu isa nk'itangirwamo serivisi z'ubuzima aho benshi twita kwa muganga, harimo umugabo usa nk'uri kwaka serivisi ndetse n'umumama uri kumukorera iyo serivisi. Hari umugabo wicaye utegereje ndetse n'abandi bantu hirya basa na bo nk'abategereje serivisi.

Ahantu hari itente ndetse iyo tente ikaba ihagazweho n'umugore mu muryango, ndetse akaba ari kuganwaho n'umwana uri gucunga umuntu uri mu za bukuru uri mu kagare ndetse bikaba bisa nkaho wagira ngo uwo mwana arimo kwerekeza uwo mugabo muri iryo hema.

Inzu nziza cyane isigishijwe amarangi y'umweru ndetse n'andi ajya gusa nk'ivu, hakaba harimo imitako myiza cyane itandukanye ndetse harimo n'intebe bisa nk'aho zikoreshwa n'abantu bicaye barimo baganira ,bisa nk'aho aho hantu hasanzwe hagendwa n'abantu runaka.

Inzu nini ifite amadirishya y'ibirahuri isizwe amarangi y'umweru ndetse ikaba yiganjwemo n'ibikoresho by'umweru n'umukara, ibyo bikoresho bikaba bisa nkaho ari iby'ikoranabuhanga ndetse bikoreshwa mu gihe hakora ibiri muri serivisi z'ubuvuzi.

Ibitaro by'i Kabgayi, aho abantu baza gufata serivisi z'ubuzima. Ndetse bikaba bisa nkaho harimo abari kwinjiramo, yewe hari n'abari gusohokamo nkaho wagira ngo bamaze kuba babona serivisi baje bahakeneye.

Inzu nini isa nk'aho itangirwamo uburezi runaka bujyanye n'ubuzima ndetse akaba ari mu rwego rwa iniverisite aho hantu hakaba hari imodoka imbere y'aho, ndetse hari na moto ndetse n'abantu batandukanye.

Umugore w'umuganga wambaye akagofero k'ubururu mu mutwe we, ndetse yambaye n'imyenda y'umweru. Ari kureba umwana uteruwe n'undi muntu wambaye umwenda wa move, ndetse ako kana kakaba ari agahinja bisa nkaho uwo umugore ari kugaha serivisi z'ubuzima.

Inzu isigishijwe amarangi y'umweru ifite amadirishya y'ibirahure ndetse ikaba irimo igitanda n'utundi dukoresho hirya dusa n'udukoreshwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, inyuma y'icyo gitanda hakaba hamanitse ifoto nziza igaragaza ahantu runaka.

Inzu iriho icyapa cya farumasi bigaragara ko hacururizwamo imiti, imbere yaho hakaba hari umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse haparitse na moti iriho umumotari, bisa nkaho wagira ngo hari umuntu ategereje.

Umugabo uri mu zabukuru ameze nkaho wagira ngo ari kwa muganga ndetse hirya ye hakaba hari ibyuma, ibyo byuma bikaba bikoreshwa mu gihe hari ibyo bari gupima mu mubiri we cyangwa se hari ibyo barimo kuba bamushyiramo nk'ibyo twakita serumu.

Abantu bicaye, hasi yabo hari ibikapu by'umutuku n'akandi kantu k'agacupa k'umweru, ibyo ibikapu by'umutuku bikaba bisa nk'ibirimo ibikoresho tuzi nk'ibikoresho by'ibanze bikoreshwa mu buvuzi, mu gihe umuntu atari kumwe n'umuganga cyangwa se umuntu ari kubikoresha mu buvuzi bw'ibanze.

Umuntu w'umukobwa uryamye hasi yambaye imyenda yoroheje asa nkaho ari gukora imyitozo ngororamubiri azamuye ukuguru kumwe kwiwe ukundi kurambuye bisa nkaho ari kuba yakora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri yo kurambura ndetse no gukomeza amaguru yiwe.

Abantu babiri harimo uryamye ku gitanda ndetse n'uhagaze. Uryamye ku gitanda akaba yazamuye amaguru bisa nk'aho wagira ngo uhagaze arimo kumufasha kuba yamuramburira amaguru bitewe n'uko ashobora kuba afite imvune runaka cyangwa se mu buryo bwo kuba yarambura amaguru busanzwe.

Umuntu w'umukobwa bisa nk'aho amaze kwirukanka, kuko ahagaze, yunamye nk'aho wagira ngo ararushye, ariko akaba nanone asa nk'aho ari kurambura amaguru y'iwe ndetse n'amaboko, kugira abashe kuba yaruhuka, bitewe n'uko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye isaha y'umweru ndetse n'umukara, inkweto z'umweru n'umutuku ndetse n'ikabutura y'umweru, akaba aciye bugufi asa nk'aho ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kurambura amaboko ndetse n'amaguru.

Umuntu usa nk'aho ari mu myaka mitoya ndetse bikaba bisa nk'aho ari umukobwa akaba ari mu myitozo ngororamubiri ,aho yambaye imyenda yoroheje isa nkaho ari iya siporo, akaba ari ahantu hasa nkaho ari ku mucanga ariko imbere yiwe hari amazi.

Umuhanda mwiza ukikijwe n'ahantu hari ibiti, uri kugendwamo n'imodoka abenshi tuzi nka amburanse ikoreshwa mu gihe abantu bari gutwara abantu kwa muganga, babavana kwa muganga hamwe babanyana ahandi cyangwa se babavanye mu ngo babajyana kwa muganga.

Umugabo uterura icyuma a gisa n'ikoreshwa mu gihe umuntu akora imyitozo ngororamubiri mbere hariyo ibiryo bitandukanye birimo amagi, amashuru, inkoko, amazi inanasi, kokombure, pavuro n'ibindi.

Ameza ariho ibintu bitandukanye nk'imidari, ibinini ndetse n'imbuto ndetse muri izo mbuto hakaba harimo ibyo twakwita nk'amaronji, imineke, inanasi ndetse n'ibindi bitandukanye hakaba hariho ndetse n'icupa.

Ikirahure giteretse hasi, ndetse n'umugabo ufite ijyaga mu ntoki h'iwe, arimo gusuka amazi muri icyo kirahure, ndetse bikaba bisa nk'aho wagira ngo ayo mazi ni ayo agiye kunywa, bitewe n'uko yaba afite inyota, cyangwa se kuko afite kuyanywa kuko amazi ari ubuzima,

Abantu babiri harimo umugabo uciye bugufi wambaye imyenda y'umukara bisa nkaho ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba ari kwikorera ahantu hari tapi y'icyatsi ndetse n'ibindi bikoresho inyuma yiwe bitandukanye byerekana ko bikoreshwa mu gihe umuntu akora imyitozo ngororamubiri.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibyuma byinshi bitandukanye abantu bakoresha bakora imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo muremure ubyibushye ariko bitari cyane, uri gukoresha ibyo byuma mu kugira ngo akore imyitozo ngororamubiri.

Umugore n'umugabo bari mu myaka iringaniye buri wese akaba yegamye ku wundi ndetse bakaba bafite amacupa y'amazi bari kunywa bikaba bisa nkaho buri wese yari afite inyota ikomeye ikindi bikaba bisa nk'aho ayo mazi ari yo ari gutuma bongera baruhuka.

Umugabo ukora imyitozo ngororamubiri, ari gukoresha ibikoresho byabugenewe kugira ngo umuntu akore imyitozo ngororamubiri arambura ndetse akomeza n'amaguru ari mu nzu nziza irimo amabara asa nk'ivu ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe mu kugira ngo umuntu akore imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wicaye hasi mu byatsi uri kwikanda bisa nkaho ashobora kuba afite imvune runaka, yambaye imyenda y'ivu ndetse akaba ari isengeri n'ikabutura akaba ari gukoresha intoki ziwe yikanda.

Inzu nziza cyane isa neza irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa umuntu akora imyitozo ngororamubiri ndetse rimwe na rimwe umuntu akabikoresha ameze nk'unyonga igare cyangwa se yirukanka bikaba bifasha umuntu ndetse bikoresha kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ndetse n'umusore barimo kwirukanka bambaye imyenda ya siporo amasengero ndetse n'amakabutura, bakaba bari kwirukanka ahantu hasa n'ahatuje kuko nta bantu benshi bahagaragara ndetse bakaba bafite amacupa y'amazi mu ntoki.

Umuntu wambaye ipantaro y'ubururu yifashe ku birenge hasi aho afatiyeho ikindi kintu gisa ubururu, icyo kintu kikaba gisa nkaho ari kugikoresha arimo kwivura cyangwa se kwikanda, nkaho wagirango afite imvune runaka cyangwa se arimo kwikanda bisanzwe.

Ahantu hasa nk'ahari gucururizwa ibintu runaka biri mu macupa bimeze nk'imiti ya gakondo. Bisigaye bisa nk'aho biri gucuruzwa n'umugore uhagaze ndetse hirya y'iwe hari n'undi mugabo n'abandi batandukanye, iyo hari n'abandi bagabo basa nkaho baje kuba bagura iyo miti.

Imbuto zitandukanye harimo izikase n'izidakase, yewe izo mbuto zikaba zisa nkaho ari amaronji ndetse izo mbuto bikaba binzwi neza ko ari za mbuto zijya zifasha abantu mu kuba bagira ubuzima bwiza ndetse banakwirinda indwara.

Umuntu wicaye imbere yiwe hakaba hari ibintu biri mu mashashi byinshi bitandukanye bimeze nk'imiti ya gakondo ndetse akaba afite akantu kameze nk'agasekururo ndetse n'agahini gatoya mu ntoki bisa nk'aho ari gukubita iyo miti wagirango ngo ni imiti runaka ari gutegura.

Akabati karimo imiti itandukanye ya gakondo bisa nk'aho irimo kumurikirwa abantu cyangwa se kugurishwa kuko iri ahantu hari gucibwa n'abantu ndetse nyuma y'ako kabati hakaba hari umugore uri kugenda ndetse n'undi uhagaze.